Abayobozi bo mu nzego zitandukanye baba bagenda baganira ku bintu byatuma igihugu kirushaho gukomeza gutera imbere ndetse na bo bakaba bakiteza imbere, mu buryo bugiye butandukanye, mu mikorere ndetse no mu mitekerereze.

Aba ni bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye b'imari zitandukanye cyangwa se ibigo bitandukanye, imbere yabo haba hari insakazamajwi kugira bavuge bumvikana ku mpande zose, bakomeza biga ku mishinga yateza imbere impande zose.

Urubyiruko rutandukanye ruba ruri kwiga ku bintu byinshi cyane bishoboka kugira ngo rurusheho gukomeza gutera imbere ndetse no kwiteza imbere mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, aha ngaha nawe watera imbere n'igihugu cyawe.

Mu cyumba cy'inama haba hari abantu b'ingeri zitandukanye abanyarwanda, abanyamahanga bari kwiga ku mishinga myinshi igiye itandukanye uko bakagura ubumenyi ndetse uko barushaho gukomeza gukorana ubundi bigakomeza kurushaho gutera imbere.

Ni bamwe mu bashoramari cyangwa se abakuru b'ibigo bigiye bitandukanye bivanze abanyamahanga n'abandi kugira ngo bari mu nteko y'inama bakomeze kwagura ibikorwa byabo kandi bakomeze no kwagura ibikorwa bahagarariye.

We ni umwe mu bayobozi b'ibigo bitandukanyehangaha barimo aganiriza abandi bayobozi bagenzi be mu ngingo z'ingenzi za zitandukanye kugira ngo barusheho kwiga bakangura imishinga myinshi banateza imbere abaturage ndetse n'igihugu.

Aba n'abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye cyangwa se abashoramari batandukanye, harimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakoresha za murandasi kugira ngo barusheho gukomeza kwagura imirimo bagenda bakora itandukanye.

Abangaba ni abubatsi ba kinyamwuga babyize, ahangaha hakaba haba hari ibishushanyo mbonera by'umudugudu runaka, baba barabyize babishushanya neza kugira ngo bazubake umugi usa neza.

Abayobozi b'ibigo runaka baba bari kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ukuntu bakagura imishinga, ukuntu barema utundi dushya mu byo bakora, ukuntu bakomeza kubana neza n'abo bakoresha cyangwa se n'abaturage bakarushaho gutera imbere.

Aba ni abantu b'ingeri zigiye zitandukanye bagiye bahagarariye ibigo bitandukanye, baba baganira ku mishinga myinshi yubaka ndetse yarushaho gukomeza kubafasha gutera imbere no kwiteza imbere no guteza igihugu imbere.

Inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa ni ab'Akarere ka Gasabo, aha ngaha baba bagira ngo barebe ukuntu mu karere bakagura ibikorwa birimo cyangwa se bagasigasira n'ibyo bamaze kugeraho, bagakomeza gukora imikoranire myiza.

Turabona umuyobozi uba uhagarariye abaturage bagiye batandukanye cyangwa sehagarariye ibigo by'imari bitandukanye, iyo yafashe ijambo aba arimo aganiriza ku buryo bakangura imirimo bakora kandi bagasigasira n'ibyo bagezeho.

Uru n'urubyiruko rutandukanye ruba rwicaye rwishimye, barimo baraganirizwa ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, byatuma barushaho gutera imbere ndetse bakiteza imbere, bakarushaho no guteza n'igihugu imbere cyababyaye.

Abayobozi bo mu nzego'c zitandukanye bari mu nteko y'inama biga ku mishinga mishya baba barimo baratekereza kandi bareba ukuntu n'ibyo bagezeho bakomeza kubisigasira kugira ngo barusheho gukomeza kugumana iterambere rirambye.

Ganirizwa n'umuyobozi wabo bagenda baganiriza ukuntu barushaho gukomeza kwagupfa kandi bitandukanye ibyiza byabafasha.

Gu abana abayobozi urubyiruko bagiye batandukanye bari kuri za mudasobwa bareba bakomeza kurushaho gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kurushaho gutera imbere muri byose byatuma n'igihugu gikomeza gutera imbere.

Udushya twa guverinoma mu Rwanda aha ngaha abayobozi bari bicaye mu nyubako nziza ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu ibhumbi bibiri na cumi na karindwi, bari kureba udushya muri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda.

Aha ngaha Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, aha ngaha bari mu nama, abayobozi bagiye batandukanye b'igihugu, kugira ngo barusheho gukomeza kwagura ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye, by'igihugu.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama, abantu baba mu nama y'ibintu bye bitandukanye biga ku mishinga yabo ukuntu bakomeza kwagura ibikorwa byabo bitandukanye ndetse n'ukuntu barushaho kwagura ibindi mishinga itandukanye.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye bari mu nama cyangwa se abayobozi b'ibigo bitandukanye bari mu mishinga yo guteza imbere ubwabo ku giti cyabo, ndetse akenshi iyo mishinga iyo iyo iri mu bateza imbere iba igomba no guteza igihugu imbere.

Abaturage ba bateranye barimo baraganirizwa ibintu byinshi bi bitandukanye, byatuma barushaho gukomeza gutera imbere ndetse no kwagura imitekerereze yabo kugira ngo barusheho guteza igihugu imbere.

Hari abana n'abaturage b'ingeri zigiye zitandukanye umuyobozi wabo bahagaze imbere yafashe ijambo abaganiriza ku bintu byinshi bitandukanye byabafasha gukomeza kwiyubaka ndetse no gukomeza gutera imbere kugira ngo barebe uko batekereza ejo hazaza.

Abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye cyangwa se bafite ibyo bagiye bahagarariye, barimo barakoma mu mashyi, baba bamaze kuganira ku ngingo z'ingenzi nyinshi z'ahantu haturuka inyungu cyangwa se ukuntu bakomeza kwagura ibyo bahagarariye no kubiteza imbere.

Bamwe mu bayobozi b'ikigo cya Tasifa, aha ngaha barimo baganiriza abantu ku bintu bitandukanye bagenda babwira ibyiza by'icyo kigo, ukuntu barushaho gukora imyitozo bakabaha ibyangombwa by'imyitozo ngorora mubiri.

Aba ni abashoramari cyangwa se abafatanyabikorwa bagiye batandukanye b'ingeri zose, barimo abanyarwanda batari abanyarwanda, abanyamahanga kugira ngo barusheho kwagura ubucuruzi bube mpuzamahanga buve ku rwego rumwe bugere ku rundi rwego.

Abangaba ni abayobozi cyangwa se abakuru b'ibigo bitandukanye, bashobora kuba abangaba bahagarariye ibintu bijyanye n'ubwubatsi kushushanyo mbonera tubona cyangwa se ubutaka, turabonamo n'abambaye imyambaro ashobora kujyanye n'ubwubatsi cyangwa ubutaka.

Bamwe mu bakozi b'ikigo runaka bari mu nama, hari n'abafata amashusho y'ukuntu biba bimeze, bagenda baganira ku mishinga myinshi igiye itandukanye bagura ibikorwa remezo bigiye bitandukanye hirya no hino.

Abayobozi bari mu nteko y'inama mu nzego zitandukanye bahagarariye ibigo runaka cyangwa se imishinga igiye itandukanye baba baganira ku buryo bakangura imishinga kandi bagasigasira ibyagezweho...

Abaturage ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari mu nama y'imishinga myinshi igiye itandukanye, yatuma bakomeza kuba yabagirira umumaro bakiteza imbere ndetse bagateza n'igihugu imbere.

Uru ni urubyiruko rugiye rutandukanye, ruba ruri kwiga ku muco nyarwanda, uko bakomeza kwagura umuco no kuwusigasira, bakarushaho gukomeza kwiteza imbere mu ruhando mpuzamahanga rutandukanye.

Aba ni bamwe mu bayobozi batandukanye cyangwa abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, bari mu nteko y'inama bagenda baganira ku bintu byinshi, ukuntu bakangura umurimo, uku bakangura ibikorwa bagenda bakora ahantu hatandukanye, bakarushaho gutera imbere.

Uru ni rubuga rw'irembo barakubwira uburyo wakandikisha uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rw'agateganyo, ukaba wakishyura ibihumbi bitanu muguhe ukeneye ubundi busobanuro wahamagara ku icyenda zeru icyenda icyenda.

Baravuga ati, andikisha kwishyura imisoro, imbere y'itariki ntarengwa baba batanze, iya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Aha ngaha wasura urubuga rwabo ubundi ukishyura.

Urubuga rw'irembo ahanditse polisi ubundi usaba ugomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u rwanda ahaga uba usaba uburyo wakora uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rw'agateganyo usaba agomba kuba afite imyaka iri hejuru ya cumi n'umunani n'ibindi bikurikira aya ni amabwiriza.

Aya ngaya ni amaduka agiye acuruza ibicuruzwa bitandukanye acururuza ibyo kurya, ibyo kwambara, ibikoresho byo mu rugo, tukabona n'ikinyabiziga cy'ipikipiki ndetse n'ikigendamo abantu, tukabona n'ahantu bakora uburyo bwo kohereza amafaranga no kubikura amafaranga avuye mu mahanga.

Harimo ababera ibikorwa by'ubwubatsi bubaka icyuma kijyaho insinga z'amashanyarazi cyangwa se bakaba barimo barubaka umunara kugira ngo itumanaho rikomeze kurushaho kugenda neza.

Hawe hari umuyobozi buri marigisha abandi batandukanye ukoresha mudasobwa kwikorera ibintu bimwe na bimwe kugirango ngo barusheho gukomeza kwagura ubumenyi ndetse no gutera imbere muri byose mu mitekerereze no gukoresha ikoranabuhanga.

Uburyo bwo gukuza amashyamba ndetse no kuyacunga neza no kuyasigasira kugira ngo turusheho gukomeza dufite ahantu heza wabasha gusohokera ukajya kuhasura ukagenda ureba inyamaswa zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bihugu bikaza.

Aha ngaha barakubwira ngo ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe. Uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali ni ugukoresha ikarita. Kwishyura mutoki ntabwo byemewe, ibindi bisobanuro wahamagara gatatu, icyenda, umunani, umunani.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu itumanaho kugira ngo itumanaho ritagenda ricikagurika, mu gihe abantu barimo baravugana mu ngeri zitandukanye, mu buryo butandukanye buri wese afite aho aherereye yaba ari kuri murandasi, yaba ari kuri mudasobwa.

Aha ngaha watwereka uburyo bwo kwiyandikisha mu kintu runaka gitandukanye, bishobora kuba kwiyandikisha uri gufunguza konti, hari aho ushyira izina ryawe rya mbere ,irya kabiri, ndetse n'iryo hagati, ushyira igitsina cyawe, niba uri umuhungu cyangwa se umukobwa, uri gabo cyangwa se gore, n'aho ushyira igihugu cyawe.

Uru ni urubuga rw'irembo ruba rwatuzaniye ubundi bufasha bushya, ubufasha bushya bwo kuri polisi y'u Rwanda, aha ngaha baba bazanye uburyo wakosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa se uburyo wakosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo, aha ngaha wabahamagara kuri imibare itandukanye icyenda zeru icyenda icyenda.

Koresha imisoro n'amahoro ahangaha babaga bakubwira ko hasigaye umunsi umwe bagafunga uwaba atarishyura akaba azahabwa ibihano imisoro bashyizeho itariki ntarengwa makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Ahandi ahantu barimo bakoresha mudasobwa kugira ngo barusheho kwagura ibitekerezo ndetse no gukora imishinga myinshi yo kuri murandasi yatuma bakomeza kwiteza imbere n'igihugu kikarushaho gukomeza gutera imbere.

Barakubwira ngo witegereza ihute! Ahangaha ukaba wakishyura imisoro yawe cyangwa se amahoro, ushobora gusura urubuga rw'irembo rubuga rw'irembo Rukabigukorera, cyangwa se ugasura n'uru rubuga rw'imisoro n'amahoro.

Aha ngaha ni urubuga rw'irembo n'umwe mu bakozi baba bakoresha, arakubwira ngo byikorere ushobora kwandikira urubuga rwabo, cyangwa se ugakanda akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego, ubundi nawe ukaba wabyikorera ibyo waba ukeneye byose.

Ndabona urubyiruko rw'abanyeshuri bari gukoresha za mudasobwa zabo, bari no kuri zamurandasi bagenda bagura ubumenyi, bareba hirya no hino ku isi uko bigiye bimeze, biga n'amasomo yabo ku buryo bwiza.

Iminara idufasha mu itumanaho abangaba bamwe mu bakozi bakora ahantu hagiye hatandukanye bashoboka iyo bakora mu minara kugira ngo ubutumwa bubashe kugenda bugera ahantu henshi busakare ku isi abakoresha za murandasi n'izindi mbuga nkoranyambaga bikorewe ibidacikagurika.

Ubungubu ni bumwe mu buryo bakubwira ngo fungura konti ube wakohereza amafaranga vuba, wafata amafaranga ube wakwishyura ibintu bigiye bitandukanye ,ubasha kwishyura ahantu runaka cyangwa se ahantu hatandukanye.

Hano muri bisi igiye ahantu hatandukanye abantu baba bagenda bakoresha murandasi bakoresha za mudasobwa, hari aba bari mu kazi, hari aba bari kureba amakuru hirya no hino ku isi aba ari kureba utuntu twinshi dusekeje, bigaragaza ko igihugu kiba cyarateye imbere.

Uyu ni umunara udufasha mu itumanaho mu gihe abantu barimo barakoresha murandasi barimo barakoresha ikoranabuhanga barikoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bikomeze kugenda bidacikira iminara nicyo idufasha.

Ikigo gitanga ubwishingizi, aho baba bavuga bati wafata ubwishingizi bwawe bw'ibintu bigiye bitandukanye wakenera ubuzima buzakurikiraho ejo cyangwa ejobundi ukazakenera ko ibintu byawe bibayeho bishinganye.

Mu irembo ushobora kureba icyangombwa kigaragaza ko uri wenyine utarashaka ukanzekanyeyenyeri icyenda aze ikindiye urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza nawe wabyikorera icyi cyangombwa Ukakirereba.

Bariya n'abanyeshuri bicaye barimo barafata amasomo kugira ngo barusheho gukomeza kwagura ubumenyi, kugira ngo ejo n'ejo bundi nabo bazakore imishinga yabo igiye itandukanye, barusheho kwiteza imbere no kuba bateza imbere imiryango yabo n'Igihugu.

Aha ngaha ni urubuga rw'irembo rurakubwira intambwe ya gatatu. Hitamo bwanditse kora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, gikorerwa ku mpapuro cyangwa kwiyandikira ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa. Ibi ngibi nawe wabyikorera, ureba ibisabwa ubundi ukabikora.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro bakubwiye ngo hasigaye umunsi umwe kugeza bibiri na makumyabiri na kane mu gihe ugomba kwishyura imisoro mbere y'itariki ntarengwa ku iyo wishyuye, itariki yarenze ucibwa ibintu bigiye bitandukanye birimo kuba wacibwa.

Uru nguru ni urugomero rw'amashanyarazi, aha ngaha ni ho barebera uburyo umuriro ugenda ukoramo, mu nce zigiye zitandukanye kugira ngo uramutse unapfuye, aha ngaha ni ho haba hari ibikorwa byinshi, bareberamo ibibazo bihari.

Uyu ni igitsinagore arimo arakora umuriro w'amashanyarazi, nawe uramutse uri umukobwa cyangwa se w'igitsina gore, wemerewe kubyiga kandi wabishobora nawe byagutunga, ugatera imbere ugateza n'igihugu cyawe imbere.

Aya n'amazu meza yubatse buryo bw'iterambere, twabona umunara udufasha mu itumanaho kugira ngo abashe kubona itumanaho hagati y'abantu n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, bareba ko hirya no hino ku isi bimeze.

Uyu nguyu n'umuhanda usangaho umuntu ufite imizigo utegereje ikinyabiziga cyiza kikamujyana kikamugeza aho yaba abijyanye ari hose, haba mu rugo cyangwa se n'ahandi hatandukanye.

Iri ngiri ni ipoto, ni igiti cyangwa se bikoze mu mabuye, biba biri ahantu hagiye hatandukanye binyuraho insinga z'amashanyarazi, kugira ngo abaturage babashe kugezwaho umuriro w'amashanyarazi, babeho mu gihugu kibona.

Iki ngiki ni igipangu kiza tureba cyubatse neza cyubakishije amabuye meza gisize n'amabara meza. Kirimo ubusitani bwiza tukaba turi harimo ni poto iriho insinga z'amashanyarazi kugira ngo amashanyarazi abashe kugera kuri buri wese.

Iki ni icyuma kinyuraho insinga z'amashanyarazi, zambukiranya ahantu kure hashoboka, kugira ngo ahantu hose ubashe kugerwaho n'amashanyarazi, kandi mu gihe cyiza kigiye gitandukanye.

Iyi ngiyi n'imodokadoka nini yo mu bwoko bwa bisi izindi zidufasha gutwara abagenzi bava mu gace kamwe bajya mu kandi. Izi ngizi ni bisi nini ziba zirimo imyanya myinshi abagenzi bagenda bicaye buri wese yisanzuye mu mwanya we ntawe ubyigana n'undi.

Iri ngiri ni amaduka agiye atandukanye wahahiramo ibintu byinshi, ubusaswa, imyambaro igiye itandukanye myiza, n'ibindi bikoresho byo mu nzu wakenera, aha ngaha waza ukabihahahira ibyiza byinshi ushaka.

Ibi ngibi ni ibipangu byiza binini byubatse ku buryo bugezweho, amabuye meza akomeye amabati meza agezweho, tukabona n'igiti kiriho insinga zijyana umuriro mu nzu nyinshi zitandukanye n'ahandi hantu henshi hatandukanye.

Icyuma kigaragaza ukuntu insinga z'amashanyarazi zicaho zigiye mu nce zigiye zitandukanye zimwe na zimwe kugira ngo amashanyarazi akomeze kugera kuri hose mu gihe kiyiza.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zigiye zitandukanye kugirango ahantu hose habashe kugerwa n'umuriro w'amashanyarazi kandi buri gace kabashe kubaho kari mu rumuri igihugu gikome kibeho gikeye kandi kibona.

Iyi ngiyi ni ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, zambukiranyiriza ahantu hatandukanye kugira ngo ingo nyinshi zibashe kugeraho umuriro kandi zirusheho kubona iterambere ryiza kandi rirambye.

Aha ni ikusanyirizo ry'amashanyarazi ahantu agace runaka ugasanga umuriro waho ni hano bashobora kuza kurebera, ikibazo waba wagize bakongera kugira bakomeze barebe uko bawubagezaho neza.

Ni ahantu heza ushobora kuba wasohokera, wowe n'inshuti zawe mukaba mwaza mukishimana, mukareba amafunguro ateguye neza bakayabaha, ibyo kunywa biteguye neza, amazi yo kogeramo asa neza ndetse haba hari n'umuriro urabona ko hari amapoto ajyanayo amashanyarazi.

Icyuma kinyuraho insinga z'amashanyarazi afite imbaraga kugira ngo abashe kugera kure mu baturage ahantu hagiye hatandukanye, gusa nukibona ahantu kiri uzirinde kuhegera kugira ngo utaza kwishyira mu byago.

Ni amaduka menshi atandukanye acuruza ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye wakenera, ibikoresho byo mu nzu, ibiryo byo kurya amafunguro meza, aha ngaha wahahahira ubundi nawe ukagenda mu rugo ukabibika cyangwa se ukabitera.

Aha ngaha hanyura umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi zigiye zitandukanye, ndetse zigiye zijya mu nce zitandukanye, kugira ngo u Rwanda rukomeze kwaguka, kandi rurusheho gukomeza gutera imbere mu rumuri no mu bindi bintu bigiye bitandukanye byiza.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo n'abantu bagenda n'amaguru, ibinyabiziga bihagaze ku maduka byagiye guhaha ahantu hemewe, uyu ni umuhanda utubwira ko utemewe kuwunyura muri kiriya cyerekezo.

Aya ngaya ni amapoto ariho imiriro y'amashanyarazi, kugira ngo abaturage bose bo muri kano gace cyangwa se n'abandi bantu cyangwa se n'inganda zaba zihari ibikorwaremezo byose byaba bihari bigerweho n'umuriro.

Aha ngaha niho umuriro w'amashanyarazi baba bawukoreye ugiye ujya mu nce zigiye zitandukanye z'Igihugi kugira ngo nugira ikibazo baze barebere hafi y'aho ngaho, ubundi barusheho gukomeza kugira iterambere ryiza.

Aha ngaha ni ku ivuriro haza abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, hakaza n'imfungwa hakaza n'abandi bantu batandukanye bemerewe kuza bose bakakirwa bakavurwa kandi bakitabwaho.

Ahangaha niho hajya abantu bakoze impanuka tukaba tubona n'imbangukiragutabarayingi ahantu habaye impanuka bakayamagara, niyo iza kuba yagutwara abantu bamwe na bamwe bakomeretse hanha ni naho bajyanwa abakomeretse ku bw'impanuka.

Iri ngiri ni ivuriro rinini kandi ryiza aha ngaha ni ho abaturage baba bagomba kuza gufata ibijyanye n'imiti mu gihe ubuzima butameze neza, urabona ko hari n'icyapa kibujijwe ko utemerewe kuvuza impuruza mu gihe uri muri uyu mwanya.

Iringiri ni ivuriro wabasanga turareba ndetse aho babagira indwara z'amaso mu gihe waba uzi ko ugiye kubagisha amaso hano hari ari ibyapa bikurangira ati aha nihobagira abarwaye indwara z'amaso ubundi ikaba ari ujye.

Iri ngiri ni ivuriro rinini ryiza kandi rigari aha ngaha niho uza mu gihe wumva ufite ubuzima butarimo burazira umuze ukaba waza kwivuza tukareba n'igikoresho kidufasha guhangana n'inkongi y'umuriro.

Iri ni ivuriro cyangwa se ikigo nderabuzima tukaba tureba umuntu uri kugendayo, tukaba tureba n'icyapa kikwereka ahantu babagira, mu gihe waba uje gusura umuntu bagiye kubaga cyangwa se uje kwibagisha ni hano babagira.

Ni mu iduka wahahiramo ibintu byinshi wakwifuza bigiye bitandukanye utabona ibintu birimo njyewe ntabyo nzi ariko wowe ushobora kuba wahagera ubundi ukareba ukareba ibyo ukeneyemo ubundi ukabihaha.

Iri ni ivuriro ahangaha niho ushobora kuza kwivuriza mu gihe ushobora kumva ubuzima bwawe butameze neza butari kugenda neza tukaba tureba ahantu hagendwa n'abantu bari mu kagare bafite indwara igiye itandukanye.

Iri ngiri ni ivuriro rinini ryiza rigari rikeye byitwa umwami Fayizari ibi bitaro icyo bidufasha ni ukuba byadusubiza ubuzima buzira umuze mu gihe tuba twaje tubigana tutameze neza, dufite ibibazo bitandukanye baragufasha bakakuvura ukamera neza.

Umu bayobozi abarimo aratanga ijambo ku bantu batandukanye barushaho kwiga ku mishinga igiye itandukanye yatuma barushaho gutera imbere ndetse no kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Izi ngizi ni imfungwa cyangwa se abagororwa baba baje kuganirizwa ku bintu byinshi bitandukanye kugira ngo barusheho gukomeza kwagura ibindi bitekerezo byiza.

Ahangaha turi mu rukiko, aho umuntu uburana aba ahagaze imbere y'abacamanza, ari kumwe n'umuburanira, umuburanira agira ibyo babanza kuvugana kugira ngo amenye ibyo aburana, ubundi abacamanza nawe icyaha cyamuhama bakamucira urubanza.

Vayibu riyo esiteti, aba ngaba bagufasha kuba wabona ibibanza byiza biri ahantu heza ukaba, wabona inzu zo kuba wagura mu gihe uzikeneye, kandi zifite ibyangombwa bitaguhenze kandi bya nyabyo byizewe.

Uyu nguyu ni umwe mu bayobozi b'abacamanza aha ngaha wafashe ku ibendera ry'igihugu, ari kurahira indahiro zigiye zitandukanye ndetse avuga n'imigabo n'imigambi yiwe, kugira ngo azarusheho kubaho neza.

Ni ibikoresho bidufasha guhangana n'inkongi y'umuriro, mu gihe akanya ako ariko kose yaba iduteye, ibi ngibi twabyifashisha duhangana nayo, nawe ufite ibikorwa remezo byawe ukora, ibi ngibi ushatse wabigura akabishyiraho byazagufasha.

Uyu ni umupolisi ushinzwe umutekano ndetse n'imigendere yo mu muhanda, akaba ahagaze ahantu abanyamaguru bambukira, mu matara ndanga kugenda mbere no kugenda nyuma, haba harimo itara rigaragaza ko abanyamaguru bagomba kwambuka, uhageze utwaye ikinyabiziga uba ugomba kubanza ugahagarara.

Hari igikoresho twifashisha duhangana n'inkongi y'umuriro yaba yaduteye mu gihe icyo ari cyo cyose, iki ngiki ni cyo wafata ukacyifashisha mu gihe waba ubonye ugeze muri ibyo bibazo utaba witeguye.

Ibikoresha twifashisha duhangana n'inkongi y'umuriro mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihe ubonye utewe n'inkongi y'umuriro ureba kino gikoresho, ugomba kugifata ukacyifashisha mu gihe ubundi bufasha bunini bwaba butarakugeraho.

Haba hari kubaho igikorwa cyo kwerekana cyangwa se cyo kuzimya inkongi y'umuriro aba ni abanyeshuri baba barimo bariga ukuntu mu gihe inkongi y'umuriro yateye bashobora kuyizimya cyangwa se guhangana na yo mu buryo bwose bworoshye.

Ushinzwe imigendere ndetse n'umutekano wo mu muhanda, ashobora kuba yarahagaritse ikinyabiziga, uyu nguyu araguhagarika, akareba niba ufite ibyangombwa bikwemerera kugendera mu muhanda cyangwa se niba uri kugendera mu muhanda utankweye ibisindisha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, akaba yaguhana.

Ibi ni ibikoresho bidufasha guhangana n'inkongi y'umuriro, mu gihe yaba iguteye ukakibona, uragifata ukifashisha uhangana n'inkongi y'umuriro cyangwa se niba ufite ibikorwa byawe ukora, iki wakigura kugira ngo uzahangane n'inkongi y'umuriro.

Byifashishwa abantu guhangana n'inkongi y'umuriro yaba yateye mu gihe utarabona ubufasha bw'uru buninishgi byo waba wifashisha waramutse utewe n'inkongi y'umuriro itunguranye.

Aha ngaha barimo barakorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, umupolisi aba ari imbere barimo abakora icyi ni ikizazami cya nyuma, araza arambura akaboko ukazamuka gutyo gutyo kugeza utsindiye uruhushya rwawe.

Umupolisi ushinzwe umutekano n'imigendere yo mu muhanda, aha ngaha yari yahagaritse ibinyabiziga bigiye bitandukanye, urabona amapikipiki aba yahagaze kugira ngo zimwe zitambuke mbere hataza kuza kubaho guhurira mu muhanda hakabaho impanuka.

Uyu nguyu ni umuyobozi, ni umupolisi akaba abashinzwe umutekano wo mu muhanda, uyu nguyu azaguhagarika igihe cyose, agiye kukubaza niba ufite ibyangombwa bikwemerera kugenda mu muhanda, cyangwage kure niba ugenda neza mu kinyabiziga, uyu nguyu nagugarika uzahagarare, hari n'icyapa hariya kikubwira ngo sitopu ukigezeho hariya urahagarara ukagenda gake.

Iyi ngiyi ni polisi y'igihugu cy'u Rwanda, iba iri hamwe bari kuganirizwa n'umukuru wabo ababwira ku bintu bigiye bitandukanye ibintu uburyo bakomeza gukora imirimo y'igihugu ndetse no kukirinda no gutuma igihugu gitera imbere.

Ibi ni ibikoresho twifashisha duhangana n'inkongi y'umuriro, mu gihe ahantu hateye inkongi y'umuriro uhari menya ko ibi ari ibikoresho byagufasha, ugahangana nayo mu gihe waba ugitegereje ubundi bufasha bugiye butandukanye.

Ikingiki ni ikinyabiziga cya polisi kikaba kiri muri banki yazigama ishami rya muhimaha kuri banki ushobora kuza kuzigama nawe ukizigamira ejo hazaza ukaba uhora witeguye ko wahateganyijwe.

Uyu ni umwe mu bayobozi bari bahagarariye ishyaka ry'icyatsi, arimo ariyamamaza, kugira ngo arebe ko mu matora yazaba umuyobozi mukuru w'igihugu, ariko nyuma y'amatora siwe waje gutsinda.

Ahangaha ni mu gikorwa cy'itora, abaturage barimo baratora bahagaze ku murongo utegereje uwinjiye akabanza agasohoka, kugira ngo amatora arusheho kugenda neza buri wese igitekerezo yagitanze kimuvuye mu mutwe ari wenyine.

Ahangaha hari mu gihe cyo kwamamaza, uyu ni umukuru w'igihugu yari arimo ariyamamaza kugira ngo arebe ko yakongera gutorwa iri niryo shyaka yari ahagarariye, turimo turamwamamaza gusa n'ubundi niwe watowe niwe watsinze amatora arongera aba umukuru w'igihugu.

Uyu nguyu yari umuyobozi w'igihugu w'aha mbere yitwaga Habyarimana, akaba atakiriho hakaba hariho abandi bayobozi, uyu nguyu yitabye Imana, ibye byararangiye.

Abaturage bari baramamaza ishyaka rya fpr ryambaraga ubururu, umweru, n'umutuku, kugira ngo umuyobozi waryo abe yatorwa abe umukuru w'igihugu gusa n'ubundi niryo shyaka ryatsinze.

Aha ngaha uwari umukuru w'igihugu yari arimo ariyamamaza indi manda, kugira ngo bazongere bamutore manda yari igezweho, aha ngaha n'ubundi ni we watsinze ni we watowe, ubu ngubu ni we ukiyoboye.

Aha ngaha mu kwiyamamazaha wari umukuru w'igihugu cyangwa umuyobozi wari uhagarariye ishyaka rya FPR yarimo ariyamamaza kugira ngo azatorwe mu matora gusa n'ubundi yaje gutsinda.

Uyu nguyu ni umwe mu bakandida bari bahagarariye ishyaka ry'icyatsi yitwaga Filipe, akaba yari arimo aramamazwa, kugira ngo arebe ko yazatorwa mu matora, gusa yaratowe amanota yagize yabaye make ntabwo yatsinze.

Aba ni abayobozi baba batowe b'ingeri zitandukanye, ubundi bafashe ku ibendera ry'igihugu, barimo bararahira imihigo bazahigura imigabo n'imigambi, ibyo bazageza ku bantu b'abanyarwanda.

Baratumbwira komisiyo y'igihugu y'amatora, kandi aya yari amatora y'abadepite, baratumbwira bati twitabire amatora kandi duhitemo neza. Iyo ugiye guhitamo ugomba kubanza kwitegereza neza, ukareba ko umuntu hari aho azakuvana n'aho azakugeza.

Amaze gutora, ubundi agashyiraho igikumwe kuho yatoye, ubundi bakamushyirira n'irindi bara ku rutoki rumwe rutoya rwitwa agahera, ubundi agataha.

Habyarimana akaba yari umuperezida wo hambere, mbere ya kera akaba nawe yari umuperezida w'igihugu ariko akaba atakiriho akaba atari nawe muyobozi ubungubu hagiyeho undi.

Bamwe mu bayobozi bari bari kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, iri ngiri ni ishyaka yari ahagarariye, aha ngaha yari arimo ariyamamaza kugira ngo arebe niba yazatorwa, akavuga imigabo n'imigambi, ariko siwe waje gutsinda.

Igikorwa cyo kwiyamamaza, ubwo umuyobozi w'ishyaka rya FPR yari arimo ariyamamaza, kugira ngo arebe ko yazongera agatorwa, gusa n'ubundi niwe wagiriwe icyizere yaratowe niwe watsinze amatora.

Abangaba ni abayobozi b'inzego zigiye zitandukanye, baba barimo bariga ku mishinga myinshi itandukanye yatuma bakomeza kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu imbere mu buryo bwinshi bugiye butandukanye bw'imishinga yabo.

Aha ngaha abayobozi batandukanye bari mu nteko y'inama, bafite insakazamashusho iri ku gikuta kugira ngo babashe kureba ingingo z'ingenzi baba bari buvuzeho, imbere yabo hari n'abandi bagiye babahagarariye.

Abayobozi b'ingeri zitandukanye bahagarariye ibigo bitandukanye barimo bari mu cyumba cy'inteko y'inama barimo baraganira ku mishinga myinshi itandukanye ko bakomeza kuyagura ndetse no kurenzaho udushya.

Aha ngaha abantu bari barimo baramamaza umuyobozi w'ishyaka ry'icyatsi, kugira ngo arebe ko yazatsinda mu matora yo kuba umukuru w'igihugu, ariko nyuma y'amatora amanota yavuyemo, amajwi yavuyemo nta yatsinze yagize make.

Iri ni ishuri rya Kimironko, aba ngaba ni ababyeyi baba baje gusura abana babo bari ku mashuri kugira ngo babaganirize ati se amasomo ameze gute? N'ubuzima bw'ishuri buba bumeze gute? Ntabwo biba byoroshye ubundi bagatera imbere.

Ibingibi ni ibinyabiziga bidufasha gutwara imizigo igiye itandukanye, hari ibitwara imizigo myinshi, hari ibitwara imizigo iringaniye n'ibitwara imizigo mikeya kugirango abantu barusheho gukomeza gukora akazi kabo neza.

Iki ni kinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo kandi myinshi, ifite uburemere bwinshi amatoni menshi cyane kugirango cyiyikugereze mu kazi kawe, uri umucuruzi waranguye uvuye ahantu hamwe ugiye ahandi iki ngiki kiragerezayo.

Uyu ni umuhanda urimo abaturage b'ingeri zitandukanye, twareba n'ibinyabiziga biri ku bipangu bigiye bitandukanye, ibinyabiziga bitwara imizigo, amapikipiki atwara abagenzi n'ahantu bacuruza imiti y'amatungo, inkwavu, inkoko n'ibindi, inka n'ihene waza ukagurira imiti.

Iki ni kinyabiziga gitwara imizigo noneho gitwaye amatungo kiyajyanye ahantu hariyatandukanye ushobora ko amatungo yo korora cyangwa se ari ayo kubaga icy'ingenzi ni uko kigutwaza.

Iki ngiki ni ikinyabiziga, kidufasha gutwara imizigo iringaniye, tukareba n'ikindi kinyabiziga gitwara amatoni menshi cyane, barimo baravanamo imizigo bapakurura bajyana kuri nyiri ibicuruzwa, kugira ngo abashe gukora akazi ke neza.

Amapikipiki adufasha gutwara abagenzi, tukabona aho ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi cyane, waba waranguriye mu mahanga cyangwa se aho waba waranguriye hose, iki ngiki kikugerayo kikagutwaza ndetse n'amapikipiki adufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umutuku n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo, kenshi ibi ngibi bitwara imizigo igiye itandukanye, yaba ari ibikoresho by'ubwubatsi, yaba ari ibyo wahashye bindi bitandukanye, ni ikinyabiziga cyagutwaza imizigo iyo ariyo yose.

Gutwara abagenzi bava ahantu hamwe bajya ahandi mu tuzi twabo cyangwa se ahantu henshi hagiye hatandukanye, ibinyabiziga bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi tukarushaho kwiteza imbere.

Ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi iremereye kiyijyanye ahantu hajya hatandukanye, kandi mu gihe utwaye ikinyabiziga kiho imizigo myinshi ugomba kugenda watwikiriye ku buryo imizigo itagenda iri kugaragara.

Ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo yo mu bwoko butandukanye ushobora kuba waguze ahangaha ibyo wagura byosega kibigutwaza kandi kikabikugerezaho neza ku mahoro ubundi ugakora ubucuruzi bwabo.

Aha ngaha mu muhanda tubonamo ikinyabiziga cy'ipikipiki, tukaba tubona ko kigiye kugera ku mirongo abanyamaguru bambukiranyirizamo umuhanda. Mu gihe ahageze agasanga abanyamaguru, ntago aba yemerewe kurenga uriya murongo wera, kugeza ubwo basoje kuwambukiranya.

Ikinyabiziga kinini cyane cyo mu bwoko bwa bisi, gitwara abagenzi kandi kigatwara abantu benshi batandukanye, abavuye mu ntara cyangwa se abagiye mu ntara, tukabona n'igare aha ngaha, ririho umuyobozi waryo uri kuyobora yicayeho, ashobora kuba agiye gushaka umugenzi.

Turareba ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki atwara abagenzi, ibinyabiziga byo kugendamo abantu ku giti cyabo, ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo. Tukabona n'imirongo igaragaza aho abanyamaguru bambukira, mu mugihe uhageze usabwa kubanza ugahagarara.

Iki ni kinyabiziga gitwara amazi ikinyabiziga kinini gitwara amazi menshi mu gihe ahantu hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi bigiye bitandukanye hakaba hakenewe amazi ibingibi nibyo binyabiziga bidufasha gutwara amazi.

Ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi igiye itandukanye, abatureba ni icyapa gifite ishusho y'urukiramende, kiriho ibinyabiziga bitwara imizigo ahantu biba byemewe guhagarara.

Umujyi wa Kigali aha niho amapikipiki ahagarara ategereje abagenzi bagenda bajya mu nce zigiye zitandukanye z'Igihugu kugira ngo barusheho gukomeza gushaka amafaranga no gushaka imibereho kugira ngo biteze imbere bateze imiryango yabo imbere.

Umuhanda mwiza urimo ikinyabiziga cy'pikipiki, kigeze ku mirongo abanyamaguru bambukiranyirizamo umuhanda. Mugihe ugeze hano utwaye ikinyabiziga, ukabona umunyamaguru witeguye kwambuka, cyangwa se harimo urimo kwambuka ntabwo wemerewe kurenga uyu murongo kugeza ubwo umunyamaguru asoje kwambuka.

Uyu ni umuhanda mugari, urimo ikinyabiziga kinini cyane kandi kigari, kidufasha gutwara imizigo myinshi cyane itandukanye, yaba iy'ubwubatsi, yaba imizigo y'ibyo kurya, gutwara nk'imifuka y'imiceri cyangwag se ibyuma.

Ni ibinyabitende bidufasha gutwara imizigo igiye itandukanye ahangahashobora kubagu ibintu byinshi bitandukanye by'imizigo ibingibi nibyo binyabiziga bidutwaza imizigo mikeya iringaniye bikakugeraho.

Mumuhanda hari binyabiziga bigiye bitandukanye amapikipiki kandi umwarimu araza ndakagerareba aho abanyamaguru bambukiranyiriza umuhanda mugihe wageze uyoboye ikinyabiziga uba ugomba kubanza guhahagara abanyamaguru bakambukaho ukagenda nyuma.

Ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi cyane igiye itandukanye. Uramutse uri nk'umucuruzi uranguye imizigo myinshi, iki ngiki cyagutwaza kikakugereza mu kazi kawe aho ukorera neza ku mutekano.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga ishyirahamwe rya yego, badufasha gutwara abagenzi mu hantu hagiye hatandukanye mu nce zigiye tandukanye z'igihugu kugira ngo babashe kurushaho gukora akazi kabo no kunoza akazi kabo n'imirimo bakora.

Iki ni ikinyabiziga kinini kandi kigari kidufasha gutwara imizigo, akenshi ibi binyabiziga bidufasha gutwara imizigo mu gihe ahantu hari kubera igikorwa cy'ubwubatsi, biba byatwara amabuye, itaka, imisenyi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ikinyamitende kidufasha gutwara imizigo kiyivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi kugira ngo habashe gukomeza kubaho akazi keza kandi kanoza. Ushobora no kumubura, ukamuhamagara kuri iyi nimero ikurikira: ziru karindwi umunani umunani, gatandatu gatatu, gatandatu gatandatu, kabiri gatatu, ubundi akaza akagutwaza.

Ikingiki ni ikinyabiziga kinini, cy'amapine menshi, kidufasha gutwara imizigo, ikinyabiziga urabona ko gitwara imizigo kandi myinshi cyane ikatugeraho ku buryo bwiza kandi bunogeye, iki tureba hano gitwaye imifuka myinshi irimo amakara, kandi utwaye imizigo ugenda hejuru watwikiriyeho.

Ikingiki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi i vuba ahantu hatandukanye kabone niyo yaba ivuye mu mahangagiki abacuruzi mucuruzarya mpuzamahanga mu mukarangura imizigo iva kurekingiki kigutwaza.

Iki ikinyabiziga kizwi nk'ipikipiki kiri kugenda mu muhanda ugiye utandukanye gishobora kuba kiri kujya mu mujyi cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye, amapikipiki adufasha mu rugendo arihuta byose.

Iki ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo y'ubwoko bugiye butandukanye, ikinyabiziga gitwara imizigo gusa mu gihe waba waguze imizigo yawe, ukeneye ko kiyikuvanira ahantu hamwe kiyijyana ahandi iki cyagutwaza.

Aha ngaha turabona ikinyabiziga kinini kigari kidufasha gutwara imizigo n'ibindi binyabiziga bikururana, n'ibifite za remoroke biri ha kurya y'umuhanda ariko hano mu muhanda turahabonamo umuyobozi utwaye ipikipiki yicayeho ndetse imbere hari ikinyabiziga gitwaye imigozi, imizigo itandukanye.

Uyu nguyu umuhanda munini kandi mugari uri mu mujyi wa Kigali ahantu runaka turabonamo igare ririho umuyobozi uryicayeho ndetse utwaye n'umugenzi umujyanye ahantu hatandukanye, tukabonamo n'ipikipiki nayo itwaye undi mugenzi n'indi pikipiki n'ibinyabiziga bine by'ibipine byinshi bitwara imizigo hakurya y'umuhanda.

Uyu nguyu ni umuhanda uva Nyabugogo ujya kunyura munsi y'ikiraro ukomeza indi mihanda itandukanye bitewe n'aho wagiye uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga kigari kirekire cyo mu bwoko bwa bisi ndetse harimo n'ipikipiki iriho umuyobozi wayo.

Akanyamitende k'ibiziga bitatu kadufasha gutwara imizigo mikeya iringaniye. Uramutse uhashye imizigo yawe igiye itandukanye, akangaka wakifashisha kakuvanira ahantu hamwe kakugereza aho ukeneye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibitwara imizigo n'abantu bari kujya mu kazi kabo gatandukanye kugira ngo barusheho gukomeza kwiteza imbere mu bintu bigiye bitandukanye.

Aha ngaha turareba ahantu abanyamaguru bambukiranyiriza umuhanda, ndetse hageze ipikipiki mu gihe uhageze, ukabona umunyamaguru witeguye kwambuka cyangwa se hari urimo urimo urambukiranya, ugomba kubanza ugahagarara agasoza.

Aha ni ho hahagarara ibinyabiziga bya bisi zidufasha gutwara abagenzi bagiye ahantu henshi hagiye hatandukanye, aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, mu gihe ukeneye gutega ugiye ahantu hatandukanye cg se ari ho ukorera, izi bisi ziradufasha.

Ikindi ikindi kinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo y'ubwoko butandukanye; ibikoresho by'ubwubatsi, imifuka myinshi waba waranguye imifuka y'imikeri n'ibindi bitandukanye cyagutwaza kandi cyambukiranya n'imipaka.

Iki ngiki ni ikinyamitende cy'ibiziga bitatu kidufasha gutwara imizigo igiye itandukanye tukabona n'ibindi binyabiziga bitwara abantu bidatwara imizigo byo kugendamo abantu bagiye mu kazi kabo cyangwa ngendo zabo za buri munsi.

Ikingigizi ni inzu zikora ubugeni bujyanye no gushushanya, ahangaha wagura amashusho meza yo kumanika mu nzu yawe ikagaragara neza, ukagura ibintu byinshi bya gakondo baba bafite, wakenera byo gushyira mu nzu.

Ni ahantu heza wakishimira kuza kuganira n'inshuti zawe, wakishimira kuza gukoresha murandasi zawe, imbuga nkoranyambaga kuko aha ngaha ibinyabiziga ntabwo byemerewe kuhanyura; ni mu mujyi wa Kigali ahantu heza wanakifotoreza.

Iki ni ikibuga kiberamo imyidagaduro igiye itandukanye, ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri ahangaha ushobora kuza ukayihakorera, uramutse ukunda gukina umupira w'amaguru n'abyo birahakorerwa ,ubundi ugakomeza ukagira ubuzima buzira umuze.

Umubare w'umuhanda gutyakubwira ati ese umuntu aje kugusura uturiyevuga ati aza kunsanga kuri KG kubavuza Kigali cyangwa se ibindi bintu ijana na mirongo inani nicyenda ubundi bikamworohera kuhagera.

Iki ni cyapa gifite umuzenguruko utukura ubuso bwumweru kirimo igare rinyujijemo umurongo utukura ahangaha icyapa kirakubwira ngo amagare ntabwo yemerewe kuhanyura.

Iki ngiki ni icyapa kigaragaza ahantu abanyamaguru bambukira, iki ngiki ni ukigeraho, uzamenye ko ugeze ahantu abanyamaguru bambukira, niba uri umunyamaguru cyangwa se niba utwaye ikinyabiziga, ugiye kugenda witonze, bikaba ngombwa ko uza no guhagarara.

Iki ngiki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umukara n'umuhondo kikaba gifite ubuso busa n'icunga rihishije, ikirango cy'umukara aha barakubwira ngo mu muhanda urimo uragendamo hari undi muhanda iburyo uwushamikiyeho.

Icyi ni icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ndetse n'uw'icunga rihishije, kikagira ubuso busa n'icunga rihishije, kikaba ari icyapa kikwereka ko mu muhanda uri kugendamo, iburyo bwawo hariyo undi muhanda ushamikiyeho.

Turabona icyapa kinini kiri mu ishusho y'urukiramende gifite ibirango by'umutuku ibi ngibi biba bikubwira ko umuhanda ugikomeje nk'uyu muhanda urimo uragenda unyura mu muhanda ugikomeje.

Iki ngiki ni icyapa kikwereka imihanda y'ibyerekezo bibiri ijya ahantu hamwe ukabona n'ahandi hakubwira ngo ntabwo uba wemerewe kuhanyura muri ibi byerekezo byose.

Nta byapa bigaragaza ko ushoje imbibi imwe winjiye mu yindi bivuye mu karere kamwe winjiye mu kandi. Ahangaha baravuga bari umuhanda ujya mu karere ka gicumbi urakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda kugirango urusheho kugenda umenya aho ugiye n'aha...,.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. ahangaha iki cyapa nukigeraho uri umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se akibona uzamenye ko ari udusozi turi mu muhanda.

Iyi mibare idufasha mu mihanda kugira ngo tubashe kumenya ese umuhanda tugeze n'uwa kangahe cyangwa se nawe niba uturiye hafi aha ngaha ubona uko warangira umuntu uravuga ati ntuye kuri K na G cumi n'umunani icyenda, ubundi akahamenya.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Aha ngaha baba bakubwira mu muhanda urimo uragendamo hari ikoni ibumoso ubundi ukamenya uko witwararika.

Iki ni icyapa uzanyuraho, gifite umuzenguruko w'umukara, n'uw'umuhondo cyangwa se icunga rihishije, ibirango by'umukara, aha ngaha uzabona ko mu muhanda urimo uranyuramo, iburyo hari ukuntu hari ifungana ry'umuhanda.

Aha ngaha iyo uhageze umenya ko winjiye mu kandi karere ka Bugesera. Ubona harimo ibinyabiziga, birimo byinjira mu karere kandi bivuye mu mujyi wa Kigali, cyangwa se ahandi hantu hatandukanye, bagakora ubuhahirane hagati y'uturere n'utundi.

Towe ibyapa bibiri birimo ishusho yamarisota bifite umuzenguruko utukura ubuso bw'umweru ibirango by'umukaraje kirapira ko mu muhandarimo uragenderamo iburyo bwawo hariyo undi muhanda ushamikiye hasi kugera kwa ari abanyamaguru bambukira mugihe wageze ukaza ugahagarara.

Hano turahabona ibyapa bibiri bitandukanye, igifite ishusho ya kare n'igifite ishusho ya mpandeshatu igifite ishusho ya kare iriho ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara n'umweru kirakubwira ko ariho abanyamaguru bambukira uhageze ugenda gake igifite ishusho ya mpande eshatu ni aho imodoka ibinyabiziga bibisikaniraho ahangaha niho babisiganiraira.

Aya ngaya ni amatara ndanga kugenda mbere cyangwa se no kugenda nyuma, aha ngaha hakaba harimo icyatsi kirimo abanyamaguru. Ubwo ni ukuvuga ngo abanyamaguru bemerewe kugenda, ibinyabiziga bigahagarara, kugeza iminota baba batanze ishize bakarangira n'ibinyabiziga bikagenda.

Ikirere kinini icyapa gifite umuzenguruko kikaba gifite umuzenguruko utukura w'ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara kirimo umubare mirongo itatu, iki cyapanga kirakubwira ngo ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itatu, usabwa kugenda gahoro.

Iki ngiki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, iki ncyapa uzagisanga mu muhanda, mu gihe uzaba uri mu muhanda kikwereka ko i bumoso bw'umuhanda uri kugendamo, hashamikiyeho undi muhanda.

Aha ngaha turabona ibyapa bigiye biyobora, tukabona n'ibyapa bitegeka, tukabona icyapa kitubwira ahantu abanyamaguru bambukira, hamwe ugera utwaye ikinyabiziga ukabanza ugahagarara bakambuka, tukabona ibyapa biranga ahantu hari Nyarugenge, ahantu hari Umujyi wa Kigali.

turareba umuhanda umberesha tweba tureba ibyapa bibiri bigiye bikumenyesha ibintu bitandukanye tukareba icyo hejuru gifite umuzenguruko kikubwira ngo ntawemerewe kurenzay muvuduko wa mirongo itandatu cyo hasi uramutse urengejembere haba nsakaza amashusho igomba gufata amashusho azabihanirwa.

Iki ngiki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiraramende, umuzenguruko w'umweru ubuso bw'umukara, ikirango cy'umukara ndetse n'umweru iki cyapa nuzaba uri mu muhanda uri kuyobora ikinyabiziga ukakigeraho uzamenye ko ugeze aho abanyamaguru bambukira mu muhanda iyo uhageze ugenda gake ukitonda.

Imihanda myiza kandi migari, gusa iyi mihanda harimo ibyapa bitandukanye nk'ibi byapa biriho uyu munyamahanga ni umuzungu, hari icyapa kikwereka repubulika y'u Rwanda aha ngaha ushobora kuba wari uri kuva mu gihugu kimwe winjira mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba n'ikindi kikubwira urugendo ruhire bakwifuriza urugendo rwiza.

Urareba abaturage benshi; ni mu Karere ka Muhanga. Bari kureba igikorwa cy'isiganwa cyangwa se amarushanwa y'amagare. Iki ni igikorwa cyiza gikunze kubera mu Rwanda; n'Abanyarwanda bakitabira ubundi bakaba banatsinda irushanwa.

Aya ngaya ni amazu yo kubamo ugukodesha, mu gihe ukeneye kuba ahantu heza, ni amagorofa afite umutekano wizewe ushobora kuba ayangaya waza ukayabamo, ukarushaho kubaho umeze neza.

Urabona buhinzi bwiza bw'ibigori ndetse n'umudugudu w'icyerekezo, ufite amazu meza kabisa abereye u Rwanda y'iterambere, aha ngaha ni ahantu nawe ushobora kuba wagura ubutaka ukaza ukahatura, igihugu kiri gutera imbere.

Ahanga turareba umuhanda hari ikinyabiziga cyiza cy'ubwoko bushya kandi bugezweho naho uramutse ukeneye kugura kino kinyabiziga kikaza kigufasha mu ngendo zawe za buri munsi ki mu kazi kawe ka buri munsi, Akagera hano wagisangayo.

Aya ngaya ni amazu yubatse ku buryo bwiza bugezweho, aba ari amacumbi akenshi ushobora kuza nawe ukiberamo, mugihe ufite akazi kawe waba ukora cyangwa se izindi gahunda zawe ukabaho hari umutekano.

Aka ngaka ni agace karimo karatera imbere Kimironko- Bibare, uramutse nawe ukeneye gutura ahantu harimo haratera imbere cyangwa se hateye imbere, heza h'iterambere, aha ngaha ushobora kuba wahagura ubutaka ubundi ukahubaka, ukahatura.

Ahangaha ni ahantu heza ushobora kuba wasohokera wowe n'umuryango wawe cyangwa se wowe n'inshuti zawe mukagenda mukishimana, mugafata amafunguro meza ateguye neza ibyo kunywa byiza biteguye neza ndetse nahantu heza mwakorera inama n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ni inyubako nziza zubatse ku buryo bugezweho. Aka ngaka ni agace ushobora kuba waza nawe ugaturamo keza cyane gafite inyubako zihenze zisa neza, amabara meza, bigaragaza ko Igihugu kiba cyarateye imbere.

Ibingibi ni ibininyabiziga by'ubwoko butandukanye, gusa ibyo tureba bitwara abantu n'ibyo tureba bitwara imizigo, ukareba akantu, umutaka w'umuntu umwe mu bakozi b'ikigo cy'umuyoboro wa Airtel.

Ibipangu byiza byubatse mu buryo bugezweho, hariho nimero kugira ngo n'uhagera wenda uri kurangira umuntu ahuri umubwire ati ndi ku gipangu iki n'iki imibare iyi n'iyi nimero zirindwi gutyo, ubundi kugira ngo kuhagera bibashe koroha.

Iki ni icyanya cy'inganda ahangaha uhasanga inganda nyinshi zikora ibintu bigiye bitandukanye; izikora ibyuma, izikora ibitari ibyuma n'ibindi bintu byinshi, izikora ibyo kurya n'izikora ibyo kunywa ahangaha ni ho haba inganda icyanya cyazo.

Ibi ni ibipangu byiza byubatse ku buryo bwiza bugezweho, amazu meza ashobora gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyangwa se ashobora kuba agurishwa, cyangwa ari ayo gukodeshwa biterwa, ukaba waza ukayabamo.

Aha ngaha niu ahantu duhagarara twitaruye tukareba ishusho ya Kinyinya, aha ngaha ni ahantu harimo haratera imbere, nawe ushaka ushobora kugura ubutaka, ubundi ukahubaka inzu ukaba waza kuhatura.

Ni byiza biherereye kanombe kajagari ya kabiri uramutse ukeneye kuza kukibamo ushobora kuba waza ukabamo cyangwa se araho gukodesha cyangwa ari aho kugura ukaba wahagura urabona ko ari ahantu heza h'iterambere wakwishimira kuba.

Uyu ni umudugudu urimo uratera imbere uri kujyaho amazu meza y'icyerekezo, ahangaha ni ahantu ushobora kubona wagura ubutaka ukagura ikibanza ukaza ukahashyira inzu yawe, urabona ko ari ahantu h'iterambere harimo haratera imbere wakubaka ukishimira kuhaba.

Ni agace keza kubatse neza amazu meza inyubako zigezweho zubatse ku buryo bw'iterambere ndetse igihugu gikeneye ku buryo uzireba ukabona ko igihugu kirushijeho gukomeza gikataje mu gutera imbere.

Ni inyubako iri i Remera hakaba hari ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye, ibinyabiziga bigendamo abantu, inyubako wasangamo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye wakenera, yaba guhaha imyenda, amaduka y'imyenda arahari aha wahaza.

Ahangaha niho dusanga amaduka menshi, acuruza ibintu byinshi bitandukanye wakenera: amadarubindi, amataratara n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, imyambaro y'ubwoko bwose, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bintu byinshi.

Iki ngiki ni ikinyabiziga gitoya kidufasha gutwara abantu, ndetse n'ibindi binyabiziga abantu bagendamo mu buryo bugiye busanzwe, n'amaduka acuruza imyambaro igiye itandukanye, ibikoresho by'ubwubatsi, imyambaro y'ubwubatsi, wajyamo ukahahahira.

Iki ngiki ni icyapa kiranga cyangwa se cyerekana amerekezo agiye atandukanye, aho bakwereka Nyarugenge, inyubako ya Nyarugenge cyangwa se umujyi wa Kigali hagati umuhanda ujyayo, hakaba n'icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira ugeraho ukabanza ugahagarara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cyiza gitwara abantu gusa kidatwara imizigo. Ibinyabiziga bidufasha kugenda mu kazi kacu ka buri munsi ndetse n'imihanda myiza igezweho yubatse ku buryo bw'iterambere.

Ikingiki ni ikinyabiziga kiri mumihanda y'ibyerekezo byinshi bitandukanye imihanda ijya ahantu hagiye hatandukanye, hari n'ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo nijyanye ahantu hamwe cyangwa ahandi.

Imihanda myinshi igiye ijya mu byerekezo bitandukanye, irimo ibinyabiziga bitandukanye bisi zitwara abagenzi, ibinyabiziga binini bitwara imizigo n'ibito bitwara imizigo tukaba tubona n'ahantu umuhanda hari ibimenyetso by'aho abanyamaguru bambukira ugera ukabanza ukitonda.

Uyu nguyu ni umuhanda munini cyane kandi mugari, ahahangaha turareba imirongo myinshi itandukanye, aha ngaha niho abanyamaguru bambukira, mu mugihe uri kugenda uri mu kinyabiziga ukabona ugeze aha ngaha ntabwo uba wemerewe kurenga uriya murongo w'umweru, mu mugihe hari umunyamaguru ushaka kwambuka cg se uri kwambuka.

Iyi ngiyi ni ipikipiki tureba ndetse n'ibindi binyabiziga byinshi bigiye bitandukanye biri kugendera mu muhanda, ibinyabiziga bitwara abantu, bigatwara imizigo ndetse n'amapikipiki adufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Uyu nguyu ni umuhanda munini, mugari, mwiza, tukaba tubonamo amatara agiye atandukanye, ndanga kugenda mbere, ndetse no kugenda nyuma, ukareba aho abanyamaguru bambukira, iyo amatara agaragaje y'abanyamaguru, mu ibara ry'icyatsi, cyangwa se ritukura, abanyamaguru baba bagomba kugenda, ubundi ibinyabiziga bigahagarara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, tukareba ibinyabiziga bitwara imizigo myinshi bitwara n'amatungo, tukareba amapikipiki atwara abagenzi adufasha mu kazi kacu ka buri munsi.

Harimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, tukabonamo amatanda ndanga kugenda mbere, ndetse no kugenda nyuma. Tukabona harimo abanyamaguru aribo bemerewe kugenda. Mugihe abanyamaguru bemerewe kugenda, utwaye ikinyabiziga ntabwo uba wemerewe kurenga uyu murongo wera, kugeza bavuyemo n'ibinyabiziga bikajyamo.

Iyi ngiyi ni imihanda myiza igezweho igiye itandukanye iri mu mujyi wa Kigali, tukaba tureba ahantu abanyamaguru bambukira, mu gihe uhageze ntago uba wemerewe kurenga uyu murongo wera, umunyamaguru akabanza agasoza kwambukiranya umuhanda.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi butandukanye. Ibinyabiziga byinshi bitwara imizigo kandi myinshi iremereye cyane, amapikipiki adufasha mu ngendo zacu za buri munsi, kugirango turusheho gukomeza gutera imbere.

Ndabona ihuriro ry'imihanda igiye ijya ahantu hatandukanye, tukareba ahantu umuhanda urimo imirongo yera igaragaza aho abanyamaguru bambukira. Urabona ko ibinyabiziga byahagaze, iyo umunyamaguru arimo arambuka ibinyabiziga bigomba guhagarara, yasoza na byo bigakomeza.

Ihuriro ry'imihanda igi ahantu hatandukanye hataraweibinyabiziga by'amapikipiki ajya mu byerekezo bitandukanye hamwe atwara abagenzi kandi ariho umuyobozi wayo abaturi ahantu abanyamaguru bambukira iyo hageze kuri ya mirongo ukabona umunyamaguru witeguye kwambuka ubuhagaze.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki atwaye abagenzi, n'amapikipiki atariho abagenzi ariho abayobozi bayo, amapikipiki adufasha mu ngendo zitandukanye zacu za buri munsi tugenda dukora.

Uyu nguyu ni umuhanda uta mu kinyabiziga bitandukanye bitwara imizigo myinshi cyane y'amatoni menshi aremereye ukabona nahoho abanyamaguru bambukira mugihe ugeze hano abanyamaguru ukabona umunyamaguru rwambuka ntawemerewe kurenga wa murongo wera kugeza umunyamaguru asoje kwambukiranya umuhanda.

Iki ngiki iki ni ikiraro cyangwa se umuhanda wambukiranya, Kicukiro, ukomeza uzamuka ubona ibyapa biranga ahantu hagiye hatandukanye, ahajya ku kibuga cy'indege, ahajya i Nyamata, tukabona icyapa kigaragaza ko kuhahagarara bitemewe.

Iri ngiri ni ihuriro ry'imihanda myinshi itandukanye, harimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, turareba ibinyabiziga bitwara imizigo n'ibinyabiziga bitwara abantu. Turareba ahantu abanyamaguru bambukira, mu gihe barimo barambuka, ibinyabiziga bisabwa guhagarara bakabanza bagasoza kwambukiranya.

Iri ngiri ni ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, ibitwara abantu, ibitwara imizigo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bishobora kugenderamo ibinyamitende, abantu bakora isuku yo mu muhanda kugira ngo i Kigali harusheho kuba hasa neza a ri igihugu hakomeza kuba hakeye.

Umuhanda, ahangaha tureba niho abanyamaguru bambukira, mu gihe ubonye abanyamaguru barimo barambuka ntago uba wemerewe kugenda, uba wemerewe guhagarara kugeza basoje kwambukiranya umuhanda, ubundi nawe ukabona ugakomeza ukagenda.

Iri ngiri ni ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye iva kicukiro sonatube n'indi ijya mu mujyi n'indi isubira ijya nyabugogo, tukaba tubona amapikipiki atwaye abagenzi tukabareba hakurya ipikipiki ishobora kuba yapfiriyeho umuyobozi wayo ari kuyisunika atayicayeho.

Aha turareba ikinyabiziga kinini gitwara imizigo myinshi ndetse tukongera tukareba aho ibinyabiziga byemewe guhagarara. Hakaba hari n'akazu abantu bategerezaho ibinyabiziga bigomba kubavana bibajyana ahantu hatandukanye.